Ibikoresho bitandukanye bita amabase, arimo imvaruganda bita ire, harimo n’ubukoroboyi bwo kurengesha iyo mvaruganda kugira ngo bayishyire ku mbuto zitandukanye.

Ifumbire y'imborera ni yo abahinzi bifashisha kugira ngo imyaka yabo igende neza. Ifumbire y'imborera iyo utayifite ugatera imyaka yose cyangwa ibishyimbo, cyangwa ibigori, nta bwo birenga aho biri, biragwingira.

Amacupa abiri y'imiti asa n'aho ari kwamamaza ubwoko bw'umuti. Umuti ukunze kwifashishwa mu gufuhira imyaka. Imyaka y'iki gihe isigaye igira ibyonnyi byinshi udafuhiyemo imiti ntacyo wacyura.

Kubera ko ubutaka bwagundutse ,hasigaye hifashishwa amavaruganda ,kugira ngo imyaka ikure neza Imvaruganda niyo abantu bose bifashisha, kubera ko ibintu bitacyera neza.

Igicupa kirimo umuti ukunze guterwa mu mbuto n'imboga. Imbuto iyo bazihinze ntibaziteremo umuti zirapfa umusaruro ukaba mukeya inyungu ntiboneke neza.

Ubuhinzi kugira ngo imyaka ikure neza, abantu bakoresha ifumbire yamatungo, ifumbire urayitindura mu kiraro ukayishyira mu ngarani, n'uko yamara kubora ukabona ubuyiteza imyaka, maze imyaka igakura neza.

Icupa ririmo umuti witwa rokete. Uwo muti bukoreshwa mu buhinzi, ufuhira imyaka kugira ngo ubukoko butayonona, butonona imyaka.

Abahinzi b'imbuto bifashisha imiti itandukanye, harimo n'uwitwa detane, iyo bateye uyu muti mu myaka ubukoko burapfa, maze imbuto zikera neza.

Mu buhinzi hakenerwamo imiti itandukanye, amacupa abiri y'imiti, rimwe ni rinini, irindi ni ritoya, iyi miti yifashishwa mu gutera ,ubukoko bwaje mu myaka kugira ngo itangirika.

Mu buhinzi hakorerwamo imirimo itandukanye. Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu, ahetse ipompo, agiye gutera umuti imbuto. Igihugu cy'u Rwanda no mu mahanga hose basigaye bahinga bagatera imiti mu myaka.

Inyama z'amafi ziri ni ubwoko bw'inyama bufite intungamubiri nyinshi. Izi nyama z'amafi zirahenda cyane, nta muntu uciye bugufi ukunda kuzigura. Zigura abantu bafite amafaranga menshi.

Bumwe mu buryo bwo kubungabunga inyama ngo zitangirika, hari ibikoresho byabugenewe, aribyo bita firigo, firigo iyo bashyizemo inyama, zimaramo igihe kirekire ntacyo zibaye.

Ubworozi bw'amafi aho abantu bacukura ibyuzi bakororeramo amafi kugira ngo bazabashe kuyabona ku buryo bworoshye, amafi asanzwe afite intungamubiri ziruta izindi nyama.

Amafi ni ikiribwa gikunzwe yororokera mu mazi, abarobyi barayaroba bakayakora bakayazirikamo umugozi bakayajyana kuyagurisha. Amafi agira amafaranga atubutse kuko abantu barayakunda.

Amafi ni meza cyane agira intungamubiri ziruta izindi nyama zose kuko uwayariye atarangwa n'imirire mibi, iyo wayariye ntabwo ukunda kurwaragurika.

Amafi menshi, asa n'aho bayarohoye mu mazi. Amafi afite intungamubiri nyinshi cyane, akunzwe n'abatari bakeya, amafi iyo uyariye, ntabwo urwaragurika.

Uburobyi bw'amafi butunze abantu batari bakeya, aho abantu bishyira hamwe bagakora amashyirahamwe yo kuroba amafi, akunzwe n'abantu benshi kuko agira intungamubiri nyinshi.

Amafi arunze asa n'aho bagiye kuyagurisha, afite ibara ry'umukara, ararambitse ahantu ku gisima, cyangwa ni amakaro.

Uburobyi bw'isambaza, isambaza ni nziza cyane, zigira intungamubiri, kubera yuko umuntu waziriye atarangwa n'imirire mibi, umwana waziriye akura neza.

Amafi ni ikiribwa kiryoha cyane, iyo bayakabushije bakayashyiramo n' akunyu abantu barayakunda. Amafi agira intungamubiri nyinshi cyane aruta izindi nyama zose.

Amafi akungahaye ku ntungamubiri amafi n'icyo kiribwa bagaburira umwana ufite imirire mibi, iyo amafi bamaze kuyaroba ni bwo bagaburira abana.

Amafi ni meza ari mu ibase isa n'ubururu, yuzuyemo asa nk'aho bayakuye mu kiyaga. Amafi aratunganywa bayajyane ku isoko ,ayandi bayarye ,amafi agira intungamubiri nziza cyane.

Amafi ni ikiribwa gifite intungamubiri. Afite vitamine nyinshi. Iyo bagiye kuyateka , babanza kuyanika, bamara kuyanika, bakabona ubuyateka.

Intabire ihinzwe mu buryo bw' imitabo; imitabo iyo ihinzwe neza nta mazi arega mu migenda, imitabo ikunda kwera neza kurusha gupfa guhinga ibitari imitabo.

Gahunda ya leta yo kwegereza abaturage ubuhinzi bw'imbuto ya voka. Voka ni ikiribwa gifite intungamubiri nyinshi cyane, ku buryo buri funguro ryose umuntu agomba kugerekaho, imbuto ya avoka.

Igiti cyitwa igiko kigira amahwa, kigira n'imbuto zisa n'umutuku, igiko kandi kivamo imizinga bagikamo inzuki.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, impande y'urwo rupangu hariho ubusitani bw'amateke n'imboga nyinshi zitandukanye, imboga zifite intungamubiri nyinshi zirinda indwara.

Umurima w'urutoki hariho n'uruzitiro imbere y'izo nsina. Urutoki rugira ibitoki biryoshye cyane, kuko ari byo bitunze abanyarwanda, abantu benshi bakunze guhinga urutoki.

Ubuhinzi bw'ibirayi, barabitera, bakabibagara, bakabivomerera iyo izuba riri kuva, cyangwa bakabitera umuti kugira ngo ubukoko butabyonona.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti bitandukanye , bimwe bifite indabyo z'umweruru, ibiti ntabwo ari binini cyane, ibiti biringaniye bisa n'aho bitutirwavamo imishingirizo, yo gushingirira ibishyimbo.

Ubuhinzi bw'urutoki bukunzwe n'abatari bakeya. Abantu bose bakunda urutoki kubera ko rwera ibitoki by'inyamunyu, ibindi by'imineke, ibindi bakabikamamo inzoga. Urutoki ni rwiza cyane rufite akamaro ruzana amafaranga menshi.

Umurima w'ibigori bisa naho bigiye kwera. Ibigori ni byiza cyane abantu barabikunda, ibigori babirya bikiri bibisi byamara kuma bakabisarura bakabyanika bakabihungura bikavamo igikoma cyangwa se bakabirya impungure.

Itungo ryitwa intama riragiwe mu kibara cy'ikigugu, kubera ko intama igira inyama ziryoshye kandi zifite vitamini, uwariye intama agira umubiri utoshye.

Igiti cyifashishwa ku kidodoki, gikunze kugira imboga ziryoshye. Ikidodoki ntabwo cyerera hasi, cyera kiri kuranda mu biti hejuru. Igiti rero ni cyiza cyane, gikora imirimo myinshi mu buhinzi no mu bwubatsi.

Ubwatsi bw'inka buzwi nka kameroni, butunze inka nyinshi mu gihugu, nibwo abantu bifashisha mu kugaburira inka kuko zitakiragirwa nka kera.

Kugira ngo inka zigire umukamo mwinshi abantu basigaye barahinga ubwatsi bw'inka. Ubwatsi bw'inka iyo buhari, inka ni ho zigira umukamo ushimishije.

Ikibara gisa n'aho ari ikigugu, ntabwo baheruka kugihinga inyuma y'aho hariho ishyamba, rigizwe n'ibiti by'inturusu n'ibindi biti by'ubundi bwoko butandukanye.

Umukobwa usa n'aho yishimye afashe ishu mu ntoki, asa n'aho amaze kurica. Yambaye umupira w'umukara, yambaye n'ingofero. Asa n'aho ari gusarura, ahagaze mu murima w'amashu.

Ibisate bibiri by'avoka bisa n'aho bayisatuye ari avoka y'imbangurire, impande yayo hariho ikiyiko bayisatuje. Voka iyo uyiriye ugira ubuzima bwiza.

Ubucuruzi bw'imboga, amasoko menshi yiganjemo, ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo n'amashu. Abagore; harimo uhetse umwana ndetse n'umukecuru, uteze igitambaro cy'umutuku ari gucuruza amashu.

Ibirayi iyo byeze barabikura, abantu bane bafashe amasuka bari gukura ibirayi bakabirunda ikirundo. Umwe yambaye ibara umwenda w'icyatsi n'iribaya ry'ubururu.

Umugore uhagaze mu busitani, afite isuka, ahetse n'umwana. Hariho n'undi uri imbere ye wambaye umwenda w'umuhondo, n'ishati' y'umukara, n'igitambaro cy'umuhondo.

Imboga ni kimwe mu biribwa bigize ubuzima bw'umuntu, ziri mu bwoko bwa pavuro, amashu ,intoryi, n'inyanya izi pavuro zigaragara nkaho zeze zisa n'ibara ry'icyatsi zuzuye mu gapaniye.

Ubuhinzi bw'ibirayi butejeje imbere abantu batari bakeya, aho basigaye barabihinga bakabisarura bakabipakira mu mifuka, amatoni n'amatoni bakabitereka ahantu ku muhanda imodoka zikaza, zikaza kubishyikira zikabijyana mu masoko.

Isoko ry'amatungo abantu benshi bari mu isoko ry'amatungo mu bwoko bw'intama, izi ntama ni nziza zisa n'imyeru ziri ku isoko.

Isombe ni zimwe mu mboga zikunzwe n'abatari bakeya, cyane cyane abantu bo mu mujyi batazihinga. Iyo zeze barazihagura, bakazifunga imifungo, bakazijyana ku isoko, abakiriya bakazigura.

Ubuhinzi bw’imboga n’imbuto buteye imbere mu gihugu cy’u Rwanda, cyane cyane ubuhinzi bw’amatunda. Amatunda, iyo bayahinze, barayashingirira bakayarandisha ku biti, ni ho yera neza.

Imiteja irunze hamwe bavuye kuyisoroma bazirunze ikirundo. Iracyari imiteja ntabwo yari yaba intonore, ifite ibara ry'icyatsi, ntabwo yari yatukura.

Imbuto zitandukanye zihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, harimo imiteja, puwavuro, intoryi ndetse n'izindi imbuto nk'izi zigira isosi nziza, kandi zikagira intungamubiri nyinshi.

Umwuga w'ubuhinzi bw'ibirayi utejeje imbere abantu batari bakeya mu gihugu. Aho usanga abantu babisaruye, bakabipakira mu mifuka bakabigurisha abandi bantu batabyeza.

Umugabo uhagaze wambaye agapira karimo uturongo tugizwe n'amabara atandukanye, amabara y'umutuku, umweru n'umukara. Ahagaze mu murima w'amatunda asa n'aho ari kuranda ku biti.

Abayobozi bambaye udupira tw'umweru twanditseho no mu mugongo, bashobora kuba baje kwifatanya n'abaturage gukora umuganda wo gushingirira ibishyimbo, kuko ibishyimbo iyo bishingiriye niho byera neza, kuko nta mvura ibitarukira ngo bipfe.

Amashu n'ubwoko bw'imboga bukunzwe cyane, umugabo afite amashu abiri avuye kuyaca mu murima we, uyu mugabo yambaye ingofero, yambaye n'umupira w'umukara, aya mashu asa naho agiye kuyarya.

Umusaruro w'amasaka iyo yeze barayinika bakayashyira mu mazi bagashyiramo n'itazi akavamo asa n'umukara agahinduka amamera. Amamera bakayabetesha bakayakoramo umusururu bakawunywa.

Ibigori iyo byumye barabisarura bakabitonora, bakabyanika, barangiza bakabishyira mu buhunikiro.

Abahinzi b'abagore n'abagabo bahagaze mu ntabire bagiye gutera imbuto y'ibirayi. Bari kumwe n'abayobozi, bari kubagira inama aribo bita abagoronome.

Ubuhinzi bw'inyanya bukiza abantu, kuko inyanya zigira amafaranga ashimishije, inyanya zimwe ziratukuye izindi niho zigiye gutukura ziracyari ibitoshi.

Imbuto yitwa zitwa itunda iyo zitukuye zisamo n'umutuku, iyo bazikase bakazigabamo kabiri hagati usangamo umutobe usa n'umuhondo. Amatunda ni imbuto nziza cyane zirera abana.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko, baremesheje ibintu bitandukanye, birimo imbuto z'amoko atandukanye, harimo ibibiringanya, intoryi, wotameloni hamwe n'ibindi byinshi byaremye isoko, bamwe bitwikiye imitaka basa naho izuba riri kuva.

Umugore usutamye, yiteze igitambaro cy'umutuku, yambaye imyenda itandukanye umupira w'icyatsi, n'ijipo y'ubururu.

Umugore uhagaze akenyeye igishura gifite ibara ry'umutuku, afite terefone, yambaye agapira k'umukara, yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Imbuto yitwa ipera, ipera rimwe barikasemo kabiri, ayandi mapera atatu, arambitse ku ruhande, araracyafite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko atariyashya neza.

Ubuhinzi bw'indabyo bwamamaye hose ,kubera ko indabyo zifite akamaro zikora imirimo myinshi ,gutaka ahantu henshi, ahabaye ubukwe ndetse bazifashisha iyo bari gushyingura abantu, indabyo bazikoresha no mu mahanga ,zikazana ubukungu mu gihugu.

Umugabo yapakiye imyumbati ku igare. Iyi myumbati ni myiza cyane hari umugabo bari kumwe asa naho ari kuyimubaza ngo ayimugurishe. Inyuma y'uyu muhungu hicaye abandi bantu benshi basa naho bari kumureba ukuntu ari gusunika iyi myumbati.

Ubuhinzi bw'ibigori biri mumurima bisa naho bitari byaterera neza, ntibyari byagera igihe cyo guheka. Ibigori iyo byeze niho babisarura, bakabyanika bakanabihungura.

Abantu bunamye bari gukura ibirayi. Ibirayi ni igihingwa cyera vuba, ibirayi byerera amezi atatu gusa.

Abanyeshuri bahagaze ku murima w'ibishyimbo bari kuwigiraho ubuhinzi , bambaye imyenda isa n'icyatsi n'umukara, imipira yabo yanditseho mu mugongo.

Ibirayi bizwi ku izina rya peko. Ibirayi ni byo biryo bitunze abatari bakeya mu gihugu. Ubuhinzi bw'ibirayi butezwa imbere n'abantu benshi kuko ari inkingi y'igihugu.

abagore bo mu cyaro basigaye bariteje imbere kubera kubera yuko basigaye barifashisha gucuruza imbuto z'inanasi inanasi zikunzwe n'abantu benshi aho abantu bose basigaye barazihinga

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa cyiza cyane abantu batari bakeya bakunze guhinga igihingwa cy'ibigori. Ibigori bifite intungamubiri nyinshi kandi zitandukanye, ibigori bibonekamo igikoma bikabonekamo n'ibindi biribwa bitandukanye. Aho babitekana n'ibishyimbo bakabirya bigatunga umuryango.

Umwuga w' ubuhinzi ni umurimo mwiza cyane ukunzwe, no mu gihugu hose kubera ko ubuhinzi buvagamo ibiribwa bitunze abanyarwanda, aho abanyeshuri bambaye amakanzugu y' ubururu bari kwiga umwuga w' ubuhinzi.

Umusore wambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye n'umupira w'imbeho ufite ingofero mu mutwe, ahetse ipombo irimo umuti agiye gutera imbuto yitwa ibirayi, uyu musore ahagaze k'uruhande ari kuminjagira umuti mu murima.

Ibihaza ni igihingwa gihingwa n'abantu benshi, Kiva ku bintu byitwa inzuzi, barazitera zikaranda, zigatera n'ibihaza. Ibihaza byera mu mabara atandukanye. Hari ibihaza biza ari umweru, ibindi biza ari umukara, ibindi bigasa n'amabara.

Ibijumba bigira amabara atandukanye. Hari ibijumba bimwe bisa n'umutuku, ibindi bisa n'umweru. Ibi biri mu isafuriya. Ni byo ndikubona bisa n'umutuku kimwe n'ibindi ndi kubona bifite amabara y'umuhondo.

Imyumbati irunze ahantu, inyuma yaho hahagaze umusore wambaye ishati y'umweru yambaye na kagofero gasa n'icyatsi, impande yabo hariho abandi bantu bicaye bari kureba iyo myumbati.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye. Harimo ibinyomoro, marakuca n'amatunda. Iyo uriye izi mbuto ugira ubuzima bwiza ntabwo burangwa n'imirire mibi.

Umugore uhagaze ahantu hagashyamba afashe terefone, yambaye umupira w'ubururu n'igitambaro cy'ubururu, hirya ye hari ibiti mu gashyamba hariho ni nzu.

Ubuhinzi bw'icyayi buteza imbere abantu batari bakeya, aho umuntu ari gusoroma icyayi yambaye imyenda y'umuhondo, ari gusoroma icyayi apfukamye.

Imyumbati ni igihingwa gihingwa n' abantu bose gifite agaciro gakomeye barazihinga, zimwe bakaziryamo imyumbati itetse nk' ibijumba izindi bakazikura bakazinika, bakazikoramo ubugari; iz' imyumbati zisa naho zeze cyane.

Amapera n'imbuto nziza, abana barazikunda. Amapera yera mu gihugu hose, kandi no mu isoko asigaye aragurwa amafaranga kimwe n'izindi mbuto zose.

Umukobwa uhagaze wenyine mu gashyamba, afashe telefone ,yambaye igitenge cy'amabara y'umuhondo yambaye ijakete y'ubururu ,igitambaro cy'ubururu, afashe telefone isa n'umukara.

Ubuhinzi bw’imboga zitandukanye, harimo n’intoki. Intoryi, iyo zeze, bazisoroma zitari zatukura, bakazishyira mu masoko atandukanye. Kuko mu biribwa byose, abantu bakunda kurya intoryi.

Umusore wambaye ikoboyi n'inkweto z'umweru ateruye imyumbati yakuze neza, asa n'aho avuye kuyigura, iyi myumbati ayiteruye mu maboko nta kintu yayishyizemo.

Ibirayi bigira amoko menshi. Aho usanga hari ibirayi bita Kinigi, ibindi bakabyita Kuruseke, na Kuruza, na Piko, n'ibindi byitwa bineza n'ibindi byitwa sankima.

Ibigori iyo byeze barabisarura bakabitonora, bakabyanika byamara kuma bakabihungura bakabibetesha. Ibi bigori bisa naho babyanitse, birumye.

Ubuhinzi bw'ibirayi buteza imbere abantu benshi babihinga, aho abantu babihinga beza amatoni n'amatoni, bagapakira mu mifuka bakabigurisha abandi bantu batabihinga, mu tundi turere duhinga ibindi bintu.

Ubuhinzi bw'amatunda bwubakiye ku biti, yagiye ararandarananda ariko yagiye araraba kubera izuba, asa n'aho rari agiye kwera.

Abantu babiri bahagaze, umwe n'umugore undi n'umukobwa. Umugore ahetse umwana akindikije igishura, gifite amabara harimo umuhondo, yiteze n'igitambaro cy'umweru, yambaye n'umupira w'umweru.

Igihingwa kitwa avoka kigira umusaruro ugezweho ku isoko. Iyo zeze barazihanura bakazipakira mu mifuka, bakazijyana ku isoko. Kubera y'uko ziba zirakorwamo ibintu byinshi, nk'amavuta n'amasabune, izindi bakazirya.

Umuhinzi w'imbuto mu bwoko bw'inyanya, avuye gusarura, ari kuzirenga mu mifuka. Izi nyanya zifite ubwiza, zose zihiye neza, ziratukuye.

Ikiraro cyubatse neza ku buryo bukomeye cyifashishwa mu bworozi bw'ingurube. Ingurube ni itungo rigufiya ritunze abanyarwanda ,abantu benshi bakunze kuzorora. Iyi ngurube isa naho yavuye mu kiraro ihagaze hanze.

Ibirayi biri muf ..ibirayi biri mu mufuka babyita Kinigi. Byuzuye mu mufuka usa n'aho wuzuye. Ibirayi birakundwa cyane.

Ubuhinzi bw’imboga buteje imbere abantu batari bakeya, aho usanga amashu ariyo bitabiriye guhinga kuko ari yo ari ku isoko iki gihe.

Ibigori iyo bimaze kubagarwa, abantu bahita bashyiraho imvaruganda, imvaruganda ihita ibishitura, bigakura neza, bigatanga umusaruro ushimishije, maze ukabyara inyungu.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ahagaze mu matunda asa n'aho ari kureba ko yeze cyangwa se ari kumera neza, kubera ko atangiye kuranda, ageze n'aho ari kurada hejuru ku biti.

Ubucuruzi bw'imbuto bwiganjemo voka zigemurwa mu mahanga, babanza kuzipanga mu bikarito, kugira ngo zitangirika. Izi mbuto za voka zikunzwe hose mu masoko. Nta soko na rimwe riba ritarimo voka.

Imifuka, imifuka yuzuyemo ibishyimbo bamaze kuyipakiramo ibishyimbo, imifuka itanu yuzuye neza.

Abahinzi iyo bejeje imyaka, barayisarura, bakayihura, bakayishyira ku ntara, bakayigosora. Bamara kuyigosora, bakayihunika mu bintu byabugenewe.

Amajeri ni igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyamisogwe, amajeri ni meza cyane aryoha cyane kurusha ibishyimbo. Amajeri akunze guhingwa mu misozi miremire ntabwo yera ahantu hose hari aho uyahinga akanga kwera.

Amahundo y'ibigori basaruye bayamanika mu nzu y'ubuhunikiro. Ibi bigori bizavamo bihungurwa, nyuma yaho bigurishwe bijyanwe ku isoko.

Ubucuruzi bw'ibishyimbo, abantu bari kubicuruza byuzuye mu mufuka, hariho n' ibakure yo kubirengamo.

Inzu zifashishwa mu guhunika imyaka bakunze kwita ubuhunikiro. Izi nzu ni izo abantu bahunikamo, iyo bahunitse ahandi hantu, ibigori biramungwa bikabura isoko. Iyi nzu ifite ibara ry'umutuku.

Ubuhunikiro bwiza cyane ,ubunikiro bwifashishwa mu guhunika imyaka neza, kugira ngo itaza kwangirika .Ubuhunikiro iyo imyaka yeze bayishyiramo ,kugira ngo bazabone imbuto nziza, igihe cyo guhinga n'ubundi kigeze.

Imodoka ihagaze imeze nk'iyo mu bwoko bwa fuso. Abagabo bari gupakurura imifuka yuzuye muri iyi modoka. Hirya yaho hariho n'abandi bagabo bahagaze bambaye imyenda y'umutuku, harimo umwe wambaye n'ingofero, abandi nta ngofero bambaye.

Umurima uhinzwemo soya cyangwa ubunnyebwa. Buhinzwe mu buryo bw'udutasi, zihinzwe neza zisa naho ziri kuyanga.

Ubucuruzi bw'ibinyampeke buteje imbere abantu benshi, aho usanga bari kubirenga mu mabase, mu bikosi, bari kubirengera abantu ngo babigure.

Ubuhinzi bw'amatunda bukoranwa ubuhanga bwinshi, aho amatunda bayahinga yamara kumera, bakayashingirira, bakayubakira, bakayarandisha ku biti biboshye ubutandaro.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo barabihinga, bakabitera, bakabibagara, nyuma yaho bikera bakabisarura, bakabigosora, aho umugore ari kugosora ibishyimbo, ku gikoresho bita intara.

Ibishyimbo byo mu ibara ry'umutuku. Ibi bishyimbo ni byiza cyane, ariko hari ibindi bishyimbo biba bisa n'umweru, ibindi bisa n'umukara, ibindi bisa n'igitaka, ariko ibi bishyimbo byo biratukura.

A bantu bafite ubuhanga bwo gucuruza, aho bafata ibishyimbo bakabishyira ku ntara bakabishyira hanze kugira ngo abantu babirebe baze kubigura ubucuruzi bw'ibishyimbo butejeje imbere abatari bakeya.

Ibigori iyo byeze barabireka bikuma neza barangiza bakabisarura bakabitonora ,bamara kubitonora bakabika barangiza bakabihunika ,nyuma yaho bakabigurisha cyangwa se bakabirya.

Ibihaza iyo byeze barabivuza bagakuramo inzuzi, inzuzi ziri ku isaniya zisa naho bamaze kuzikaranga. Inzuzi iyo bamaze kuzikaranga barazihekenya cyangwa bakazisekura ifu yazo bakayishyira mu biryo.

Ubucuruzi bw'ibishimbo, aho abantu benshi bakunda gucuruza ibishyimbo, kuko ari byo bigaburira, abantu benshi mu gihugu.

Umusaruro w'ibishyimbo, ibishyimbo iyo byeze barabisarura, babisarura ku buryo butandukanye, hababaho iyo babisaruye bari ku byaha, ubundi bakabisarura bari kubirandura maze bakabihura.

Umusaruro w'ibigori uvamo ibintu bitandukanye, haba iyo babibetesheje mo ifu ya kawunga yo gukoramo umutsima, ubundi bakabihungura bakabitekamo impungure, ubundi ibigori habaho n'iyo babikozemo umusururu.

Ibigori iyo byumye barabihungura bakabyanika, barangiza kubyanika bakabikoresha ibikorwa bitandukanye. Ari ukubetesha cyangwa bakabiteka, bakabitekana n'ibishyimbo.

Abagore benshi bahagararanye barimo abatoya ndetse n'abakuze, biteze ibitambaro bafashe umusaruro wabo w'ibishyimbo. Ibishyimbo bimwe bisa n'imituku ibindi bisa n'imyeru harimo n'ibindi bisa n'umuhondo, basa naho bamaze kubisarura.

Umuntu ufite ibase irimo ibishyimbo, arikubisuka asa n'aho agiye kubyanika. Yambaye ikanzu ifite amabara atandukanye harimo umukara, n'umutuku.

Ibishyimbo bisutse ahantu bifite amabara atandukanye, bimwe bisa n'umuhondo, ibindi bisa n'umweru, ibindi bisa n'umukara bisutse hasi.

Ibigori iyo byeze barabisarura, bakabitonora bakabipfundika, bakabimanika mu nzu zabugenewe ari zo bita ubuhunikiro, kugira ngo bigire umutekano.

Amajeri ni igihingwa cyo mu binyampeke. Amajeri aforumye nk'aho ari ibishyimbo, ariko amajeri akunze guhingwa mu misozi miremire, ntabwo akunze guhingwa ahantu habonetse hose.

Uyu mufuka wo mu bwoko bw'igunira, wuzuyemo imbuto zimeze nk'aho arisholomoni, uruzuye uteretse hasi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo butunze abantu benshi. Kuko hari amoko y'ibishyimbo atandukanye Hari ibishyimbo bya nyiramukara, bya rubarura, nyiragateja n'ibyitwa urubarura.

Amagemeri yuzuyemo umusaruro w'ibinyampeke, imwe irimo ibigori, indi irimo ibishyimbo, indi irimo amashaza. Iyi misaruro bayishyize mu magemeri isa n'aho iri ku isoko.

Umukobwa usa naho yishimiye umusaruro we, yikoreye igitebo cyuzuye neza umusaruro, awikoreye yishimye cyane, uyu mukobwa yambaye imyenda y'amabara.

ubuhinzi bw'amajeri, iyo amajeri atangiye kuba intonore, baragasoroma bakarya intonore, ubundi yamara kuma bakayasarura bakayahura.

Umusore uhagaze ku nyubako wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira karimo amabara y'ibinyoronyombya, ameze nk'aho ari kuriza undi mugenzi we uri hasi.

Abantu bahagaze imbere mbere y'inzu ikinguye, ifite ibara ry'ubururu nabo bambaye imyenda y'iforume yubururu, basa n'aho bakorera kampani.

Ubworozi bw'inkoko bwiganjemo inkoko, inkoko zitanga umusaruro mwinshi cyane, iyo ziteye amagi atanga amafaranga, hari inkoko zimwe ziba izo kurya izindi zigatera.

Ubworozi bw'amatungo magufiya higanjemo ihene n'intama, izi hene n'intama zitanga umusaruro ushimishije, bigaragara ko ziri guhaka.

Ubworozi bw'ingurube bukwirakwiye mu gihugu hose. Zimwe zibyara ibyana byinshi, izindi zikabyara ibiyana bikeya, habaho n'izibyaye ingurube imwe ikabyara ingurube cumi n'ine. Indi ikabyara ingurube nk'eshatu. Hariho n'izindi z'ibipfizi, zishinzwe kubanguriza izindi.

Abantu bafite ubumenyi butandukanye, aho umusore n'umukobwa bambaye amataburiya y'umweru bafite ubumenyi bwo kukuvura bameze nk'aho bari kuvura itungo.

Umugore uhagaze ahantu nko mu rugo iwe. Ahagaze ari kureba ihene ihagaze imbere ye. Ihene ni itungo rigufiya rikunze kororoka mu Rwanda, rigira inyama ziryoshye.

Ubworozi bw'inkwavu bukijije abana b'u Rwanda benshi, abana bakunze korora inkwavu, kuko ni agatungo kagufiya koroheye umwana ku korora. Urukwavu rugira inyama ziryoshye zigiye guhwana n'iz'inkoko.

Intama iri mu murunga iri mu rwuri iri kurisha, iyo intama bamaze kuyizirika basubirayo kuyisiguriza bakayimurira ahandi hari ubwatsi bwinshi.

Inka ni nziza kuko inka zikora ibintu byinshi, inka zikwaga abageni, inka barazirya, inka zigatanga amata iyo zibonye urwuri ruhagije, nk'izi nka dore ziri kurisha ahantu hari ubwatsi bushimishije.

Gukingira inka bizirinda indwara zitandukanye. Bikunze gukorwa n'abantu b'abaveterineri. Bambaye imyenda y'ubwirinzi, nk'udupfukamunwa, na za ga zo mu ntoki.

Ubworozi bw'inkoko buteje imbere abantu batari bakeya mu gihugu, zifite amoko menshi hari izitera amagi, hari n'iziribwa mu nyama, zose zikaba zifite ubukungu.

Ishyamba ririmo inka nyinshi zifite amahembe maremare, bita inyambo. Izo nka ziraryamye, ziri kuza ibyatsi zariye, kugira ngo bijye mu gifu.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane aho ingurube ibyara mu mwaka kabiri kandi ikabyara ibyana byinshi. Ibyana bikeya zibyara ni nk' ibyana bitanu . Izi ngurube zisa n'aho ziri kuri nyina ubu ni ho zitangiye kororoka ku bandi.

Inka ziri amoko menshi, zikagira n'amabara atandukanye, hari inka z'isine, izindi zikaba inka z'ibihogo, izindi z'ikibamba. Izi nka zihagaze aha ngaha ni izitwa inka z'ibihogo.

Ubworozi bw'inka buteje imbere abantu batari bakeya mu gihugu. Inka ziri mu rwuri ziba zisanzuye ziri kurya ibyatsi zishaka, zarangiza zikajya gushoka.

Inka yitwa Ikibamba igira amabara y'umweru n'ay'umukara. Inka yitwa Ikibamba ni inka izana umukamo mwinshi cyane. Abantu bahagaze impande yayo bari kureba ukuntu iri kurisha.

Ingurube ni itungo ryororoka cyane, aho ingurube ibyara kabiri mu mwaka. Ikabyara ibyana birenze bitatu cyangwa bine, bikororoka mu bandi bantu bashaka kuzorora.

Inka ifite ibara ry'umweru, niry'umukara bakunda kwita ikibamba, ihagaze ahantu hasa n'aho hari urwuri rutoshye.

Ubwoko bw'amagi bukorwa n'abantu benshi, kubera ko ari ubworozi buciriritse. Inkoko zikurira amezi makeya zigatangira gutera amagi. Kuko inkoko ziri mu bwoko bubiri, hariho inkoko z'amagi, hariho n'izindi nkoko z'inyama.

Imbata yo mu bwoko bw'inkoko imbata zitera amagi, asa n'amagi y'inkoko ziba mu rugo zororerwa mu rugo.

Ingagi igisimba cyiza cyane gikunze gukurura ba mukerarugendo, aho ba mukerarugendo bahura baje kureba ingagi bakazana amadovize mu Rwanda. Ingagi kandi zihora abatari bakeya iyo zabyaye iyo hakozwe umuhango wo kwita abana bazo amazina.

Inkoko yo mu bwoko bwa dendo. Ni inkoko iba nini cyane, kuruta izindi nkoko. Inkoko ifite ibara ry'ikijuju, risa n'aho rifitemo utuntu tw'umweru.

Inyoni nziza cyane, ifite ibara ry'umukara, n'irindi ry'umweru, ihagaze ku itabi ry'igiti, iri yonyine nta yindi nyoni biri kumwe.

Ingagi ni inyamaswa zikunda gukurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, aho usanga zifite n'abana bazo. Ziremye nk'umuntu.

Inyoni ziramoko menshi hari inyoni zimwe zigiraga amabara , izindi ntizigira amabara ,izinyoni zifite amabara menshi, amwe asa n'umuhondo andi asa n'icyatsi andi asa n'ubururu, izi nyoni zifite amaso manini.

Inyoni nziza cyane ihagaze ku matabi y'ibiti isa naho ihagaze hejuru y'amazi. Iyi nyoni ifite amabara meza cyane, harimo ibara rimwe ry'umukara, irindi risa n'umweru. Iyi nyoni isa naho yitonze sinzi icyo itegereje.

Ikinyoni kibundamye gisa naho kikiri icyana, kibundamye mu twatsi twiza , dusa n'umuhondo nimwo kibundamye, iki kinyoni kiri cyonyine nta kindi kiri kumwe.

Hari amoko abiri y'inkwavu, inkwavu zimwe ziba mu rugo izindi zikaba mu ishyamba, ur'urukwavu rusa naho rwikanze ikintu rubangaritse amatwi nk'urugiye kwiruka.

Agasimba kabarizwa mu bwoko bw'ibikururanda kazwi ku izina ry'igihangara, gafite amabara atandukanye, umutwe usa n'umuhondo, igihimba gisa n'umukara, umurizo ufite amabara avanzemo umweru n'ubururu.

Ishyamba ry'ibiti rihagazemo inyamaswa bita inzovu. Iyo nzovu iri mu ibara ry'igitaka. Inzovu na yo irisha ibyatsi nk'inka.

Agakoko kitwa uruvu aho gahagaze gahita gafata ibara ryaho gahagaze. Iyo gahagaze ku kintu cy'icyatsi gahita gahinduka icyatsi.

Inyoni nziza ihagaze ku dutabi tw'ibiti, ifite amabara y'umuhondo n'umukara. Yasamye isa n'itegereje nyina ngo iyitamike ibyo iraba ivuye kuyihahira.

Inyoni zirimoko menshi, inyoni ihagaze yonyine isanifite ibara ry'ubururu, ifite umutwe wibunduguje n'umunwa wumutuku nawo wibunduguje, inyoni ihagaze ituje nta kibazo ifite.

Inyoni ebyiri zihagaze ku matabi mu gashyamba, izi nyoni zifite amabara y'umukara n'umweru, izi nyoni ziri ahantu hasa naho hatuje.

Inyamaswa yitwa inkende ifite ibara ry’umukara n’irindi risa n’umuhondo mu mugongo. Ikurura ba mukerarugendo, bazana amadovize, igihugu cyacu kigatera imbere.

Inyoni nziza cyane ifite ibara ry'umweru n'iry'umukara, ihagaze ahantu hameze nk'ikiyaga. Wagira ngo ni inyamanza. Iyi nyoni isa naho iri kwirebera mu mazi.

Amabuye akunze kugaragara ahantu h’amashyamba, nko mu birunga. Hari kugaragaramo inyamaswa bita ingagi ihagaze ku mabuye. Hirya yayo hariho ishyamba, muri iryo shyamba harimo icyezezi kiri kwererana.